Umugore aricaye yambaye ipantaro yumukara iruhande rwe handitse amagambo, uyu munsi uwuharire kwiyitaho no kuruhuka.

Inzu nziza isakaje amategura isize irangi ry'umweru ndetse iparitsemo imodoka ifite ubusitani ku ruhande munsi yayo handitsemo ijambo radiyati

Umugore yambaye umupira w'ubururu, afite telefone mu ntoki ku ruhande rwe hirya handitse amagambo dosiye yawe isaba kwishyura mituweri, ifite kode yo kwishyuriraho nomero mirongo inani n'umunani n'indi mibare, yoherejwe neza.

Impanuka ntiteguza, gura turi kumwe ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima, kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe urwego.

Ingufuri irimo ikirango cya sonarwa, munsi y'icyo kirango handitsemo ijambo sonarwa genero ndetse hari amafaranga apanze y'ibiceri. Handitse ijambo mani inshuwarensi.

Umukobwa uhagaze uri guseka yambaye ishati yikoboyi afite terefone mu ntoki hari amagambo yanditse "Wihangayika ohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka igihe cyose aho uri hose".

Abagabo babiri barahagaze, ku mpande zabo bombi hari imodoka, umwe ku ruhande rwe hari imodoka nini, undi ku ruhande rwe hari imodoka ntoya, hagati y'aba bagabo haparitse moto.

Umugore uri kuri terefone ari guseka yirambitse ku gitanda, munsi y'uyu mugore handitse amagambo, kuba hoteri yuzuye ntibikwiriye guhungabanya urugendo rwawe.

Icyapa gifite amabara ubururu n'umweru cyanditsemo ijambo saniramu, imbere y'icyo cyapa hari indabyo z'ubwoko butandukanye.

Icyapa giteye iruhande rw'umuhanda. Kiriho umusaza n'umukecuru. Umuhanda munini harimo imodoka ziri kugenda mu byerekezo bitandukanye, zimwe ziri kumanuka izindi ziri kuzamuka.

Icyapa cya Sonarwa kigaragaza imodoka ndetse na moto, iki cyapa cyanditseho ijambo moto insuwarensi wahamagara icyenda zeru eshatu.

Abagabo babiri barahagaze aba bombi bambaye amakote, munsi yabo handitse amagambo ushaka gucuruza nta nkomyi gura ubwishingizi bw'ibinyabiziga bigufasha mu bucuruzi.

Icyapa cyanditseho radiyanti yacu, muri icyo cyapa harimo umugabo uri mu bigori, amagambo yanditse kuri icyo cyapa ni shinganisha ibihingwa byawe, uhinga utekanye hamagara cumi n'umunani icumi akarongo zero karindwi umunani umunani mirongo itatu na rimwe mirongo itandatu na karindwi mirongo icyenda na karindwi.

Ramba na Britam ese wari uzi ko hari ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse bwagenewe ibigo bitandukanye ibigo bito ,ibigo bito by'imari ,sacco n'amakoperative, ibigo bya leta ibigo by'amashuri ,ibigo by'abihayimana.

Umugore arahagaze yambaye ikanzu irimo umutuku ndetse n'ibara ry'ubururu n'umuhondo, afite amafaranga mu ntoki ndetse ahagaze ahantu hari ibicuruzwa byinshi, ndetse n'umunzani n'indobo.

Abagore babiri umwe yambaye agapira kari mu mabara y'ubururu afite ishati mu ntoki undi yambaye ishati y'umweru.

Imyambaro yo kwifubika iri gucuruzwa, umupira umwe urasa umweru, irindi koti rifite amabara abiri, n'irindi naryo rirasa umukara, iyi myenda yose iramanitse.

Akabati kari mu mabara y'umweru gafite utwanya twinshi, utwanya tumwe turimo inanasi ziri hejuru utundi turimo udusego, ku ruhande rwako hari akuma karimo utundi dusego.

Imodoka y' umukara iri mu bwoko bwa yundayi iragaragara ku gice cyi imbere gusa munsi yaho handitsemo cumi na gatanu m .

Abagabo batanu bahagaze imbere y'imodoka, babiri muri bo bafite icyapa, abo bagabo umwe muri bo afite agakapu gafite ibara ritukura, undi afashe mugenzi we ku rutugu.

Imodoka ifite ibara ry'umukara. iragaragara ku gice cy'imbere. Hejuru handitse amagambo bibiri na makumyabiri na karindwi, TOYOTA RAV4 HYBRID. Iri kugurishwa miliyoni mirongo itatu z'amanyarwanda.

Abagabo batatu n'umugore umwe bahagaze imbere y'imodoka, aba bose bafashe ku cyapa cyanditseho akagera motozi cyanditseho ijambo kandi A B G.

Abagabo babiri barahagaze, bafite icyapa mu ntoki zabo. Cyanditseho Akagera motoru. Bahagaze imbere y'imodoka iri mu mabara y'umweru n'umukara.

Umugore utwite n'abagabo babiri, ndetse n'umwana. Umugabo umwe ateruye umwana, yambaye umupira utukura. Umugore n'undi mugabo umwe, bafashe icyapa cyanditseho Akagera Motor.

Imodoka y'umukara, iragaragara ku gice cy'imbere, icanye amatara, iyi modoka nta purake ifite ndetse yanditseho hejuru ko igurishwa miriyoni mirongo itanu z'amanyarwanda.

Imodoka ziri mu ubwoko bumwe zipanze ku murongo, izi modoka zoherezwa mu mahanga iruhande rw'izi modoka hahagaze abagabo babiri umwe yambaye imyambaro y'imikara.

Imodoka eshatu z'umweru, zirangaye inyuma, imbere y'imodoka imwe hagaze abagabo babiri, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho Akagera Motoru.

Abagabo babiri barahagaze bakoranye mu kiganza ndetse bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ''Akagera Motozi'' inyuma y'aba bagabo hari imodoka z'ibikamyo.

Abagabo babiri bambaye amakote n'umugore umwe ubahagaze hagati wambaye ishati y'umukara. Aba bantu bose bafashe icyapa kiriho imodoka ndetse cyanditseho cogebanque.

Abagabo babiri bambaye amashati y'amaboko maremare, bahagaze imbere y'imodoka bafashe icyapa cyanditseho ijambo akagera motoro.

Aha hari imodoka nyinshi ariko nyinshi ziragaragara igice kimwe, ahaimbere hari imodoka itwara abagenzi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru n'umukara. Hirya yayo hari izindi modoka nyinshi. Imbere yayo hari izindi ziri mu ibara rimwe ndetse zigaragara ku gice cy'inyuma ziri ku murongo.

Imodoka ifite amabara y'umweru iragaragara ibice bibiri gusa, iyi modoka imbere yayo hahagaze umugabo afite icyapa mu ntoki ndetse uyu mugabo yambaye ishati ya karokaro.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo iri mu mabara y'umweru, umukara, n'umutuku; iragaragara mu mpande ebyiri gusa; uruhande rw'imbere ndetse n'uruhande rw'ibumoso.

Abagabo batatu n'umugore umwe, abagabo babiri muri aba ngaba bafashe icyapa, inyuma y'abo bantu haparitse imodoka ndetse ku nzu handitseho Akagera.

Abantu batanu bari hamwe bari kuganira, umugabo umwe aricaye yambaye umupira utukura imbere ye harambitse agakayi ku meza.

Inoti igaragara ku gice cy'imbere ndetse no ku gice cy'inyuma, ni inoti ya magana atanu yanditseho ijambo banki nkuru y'u Rwanda, ku ruhande rumwe ku gice cyo hepfo iragaragaza abana bicaye imbere ya za mudasobwa.

Umugore arahagaze, ari kureba imbere. Imbere y'uwo mugore hari inkingi ikikijwe n'amabara harimo icyatsi, umweru n'ubururu.

Umuntu afashe amafaranga mu ntoki, iruhande hari andi mafaranga y'inoti ndetse n'amafaranga y'ibiceri, imbere hari imashini ibara amafaranga.

Inoti y'amafaranga igihumbi y'amanyarwanda, iragaragara uruhande rw'imbere, ndetse n'uruhande rw'inyuma, uruhande rumwe rurimo ikirangantego cy'inyubako, urundi rurimo inkende.

Inoti y'amafaranga ibihumbi bitanu hejuru iragaragara igice cy'imbere hasi iragaragara igice cy'inyuma yanditseho banki nasiyonari di Rwanda, ibihumbi bitanu.

Umugabo aricaye afite terefone mu ntoki azamuye akaboko umugore nawe arahagaze yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ijipo ifite amabara y'umukara, umweru ndetse bicaye mu iduka.

Umugore aricaye yambaye umwambaro w'igitenge, afite terefone mu ntoki, n'igikapu kirambitse ku bibero bye, imbere ye hateretse itasi irimo icyayi.

Umuryango urasa ubururu, urafunguye, kuruhande rumwe, no kuruhande rundi, imbere hari indobo, ndetse ni yo bita kandagira ukarabe.

Umugore arahagaze yambaye agakote k'umukara imbere ye hateretse indobo eshatu imwe irimo amandazi, indi irimo imigati, indi irimo amakeke.

Umuryango usa ubururu urafunguye. Hejuru y'umuryango hari icyapa cyanditseho inyange miriki zone ndetse aya magambo yanditse no ku gikuta.

Abagore ni babiri umwe ahagaze mu idirishya areba mu nzu undi ahagaze mu nzu afite ijagi mu ntoki ndetse ari gusuka amata mu kabito k'umweru.

Umuntu wambaye isarubeti, iri mu mabara ya oranje, inyuma y'iyo sarubeti handitseho Mayange Bugesera, telefone zero karindwi umunani, makumyabiri na kabiri, mirongo itatu na gatanu, mirongo itanu na gatandatu, iruhande rw'uwo muntu, muruhande rw'ibumoso, hari amagi.

Umugore aricaye, yambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, iruhande rwe hari ikigega cyanditseho ijambo Inyange mirike zone.

Umugore yambaye umwenda urimo amabara ubururu, umuhondo, umweru n'umukara mu mutwe yambaye ingofero, afashe akabido mu ntoki.

Umugore wambaye ikanzu irimo umuhondo ndetse n'umugabo, bazamuye igipfunsi, n'igikumwe bari kureba muri telefone, aba bombi bari guseka.

Icyapa kiri mu mabara ubururu, umweru, umutuku cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru ariyo dukomere foregisi biro.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro ndetse n'impeta kubiganza byombi, afite amafaranga mu ntoki amwe ni amadorari, imwe ni idorari ijana, izindi ni amadora makumyabiri, amadolari icumi, n'amadolari atanu.

Ikiganza cy'umugabo, wambaye ikoti ry'umukara. Ikiganza kirimo amafaranga y'amadolari. Amadolari amwe ni ay'ijana, andi madolari ni aya makumyabiri.

Abagabo benshi barahagaze mu muryango, umwe muri aba bagabo yambaye umupira ufite ibara rya oranje, undi iruhande rwe yambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse n'ingofero mu mutwe.

Umuryango w'ibara ry'umweru, urafunguye, hejuru yawo hari icyapa cy'ibara ry'umweru, cyanditseho ikaze birodeshanji.

Akazu, gafunguye idirishya, karagaragaza ku bikuta byose, ibikorerwa muri aka kazu. Ekwiti, Banki ya Kigali, Eyateri, Rege, Emutiyene n'ibindi byinshi.

Intebe z'imifariso ziri mu mabara ubururu ndetse n'umweru, zifite ameza ndetse n'utumeza tubiri dutoya, izi ntebe ziteretse hanze.

Ameza akoze mu rubaho, intebe zikoze mu rubaho, utubati dukoze mu rubaho utunini n'udutoya, ndetse n'imihini ikoze mu rubaho.

Inzu iri mu mabara ya oranje, imbere hanze hari intebe zikoze mu rubahu, imbere y'iyo nzu hari ubusitani buteyemo uduti dutoya.

Inzu ndende igeretse. Iyi nzu hejuru yanditseho ijambo fo powenti pa sharantoni. imbere y'iyi nzu kandi, hateye ibiti byinshi.

Umugabo w'umutetsi wambaye umwenda w'akazi ndetse n'agapfukamunwa afite karoti mu ntoki n'icyuma ari kuyikata imbere ye hari izindi karoti, itomati n'ibitunguru n'ibindi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse yifitemo amabara y'ubururu isakajwe n'amategura, imbere y'iyo nzu hari imodoka ebyiri.

Abantu barahagaze, imbere yabo hari utubati turi mu mabara umweru n'ubururu, mu bururu handitsemo ijambo werikamu, hejuru y'utwo tubati hateretse za mudasobwa.

Inzu irageretse iriho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye kimwe cyanditseho purayimu inshuwarensi, ikindi cyanditseho Nyarutarama, ikindi cyanditseho forekisi biro.

Umugore aricaye imbere ye hateritse mudasobwa n'impapuro ndetse hateretse ururabo rusa icyatsi imbere y'uwo mugore nanone hari intebe ebyiri zitariho abantu.

Abagabo babiri bari gutambuka, umwe yambaye ishati ya karokaro iri mu mabara y'umukara n'mweru afite impapuro mu ntoki. Undi yambaye ishati ya kakokaro y'ubururu ndetse n'umukara afite terefone mu ntoki.

Ikirangantego cya Radiant inshuwarensi, kigaragara mu ibara ry'ubururu ndetse n'ijambo Radiant ryanditse mu ibara ry'umweru, imbere y'iki kirangantego hateretse intebe eshatu z'umukara.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo, hejuru ku nzu hari icyapa cyanditseho Purayimu Incuwarensi mu ibara ry'ubururu. Hakaba n'urundi ruhande ruri mu ibara ry'umuhondo rwanditsemo Muhanga buranci.

Intebe ebyiri muri zo zifite ibara ry'umutuku ndetse imbere yazo hateretse ameza arambitseho imvaho, hirya gato hari umugore wicaye.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, umutuku n'icyatsi kirimo ikirangantego cya sonarwa, munsi yacyo handitse ijambo sonarwa genero.

Icyapa cyanditseho ijambo sonarwa. Munsi aho hari abantu benshi. Umugore umwe yambaye ikanzu y'igitenge yashyize amaboko inyuma afite agakapu k'umutuku ndetse n'igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Kashi zihuse nta ngwate? Karame! Tugane tuguhe agera ku mafaranga y'amanyarwanda miliyoni mirongo itanu. Bitarenze amasaha makumyabiri n'ane.

Icyapa kiragaragaza imodoka n'umukobwa uhagaze iruhande uhagarishije akaguru kamwe akandi karazamuye yambaye ikoti ry'ubururu hejuru handitse amagambo darayivu yowa dirimu kare.

Umugore wambaye ishati y'umweru iciyemo imirongo, ukuboko kumwe gufashe mu mutwe, inyuma ye hari amafaranga y'inoti za bitanu.

Abantu babiri, umusore n'umukobwa, umukobwa yicaye mu modoka umusore ahagaze hanze, imbere y'umukobwa handitse amagambo wayitunga nawe.

Umugore n'umugabo barahagaze umugabo afite ikaramu mu ntoki ndetse ari kwandika ku gipapuro kiri ku kabati umugore nawe ari kubara amafaranga.

Umugabo arasamye yazamuye amaboko yombi yafunze ingumi, yambaye ishati yafunguye ibifungo mo imbere yambaye umupira w'umweru ndetse ari kwamamaza access.

Ifoto igaragaza umugabo wambaye ikoti yitwa Christian Abiijuru, iruhande rwe handitse amagambo iyubake na I and M bank ni inde wemerewe inguzanyo.

Umuhungu aricaye yambaye umupira w'umukara n'ipantaro yumukara irimo uturongo tumanutse tw'umweru inyuma ye hari ibicuruzwa ubona ko ari iby'abanyafurika.

Abagore batatu biteze ibitambaro mu mutwe. Babiri muri bo baricaye, undi umwe arahagaze. Imbere yabo hari amabase, icyenda muri yo arimo imineke.

Umusore wicaye wambaye umupira utukura ndetse n'ijiri y'ibara ry'icyatsi, hirya ye hari abandi bantu bicaye, hejuru yabo hamanitse imyambaro.

Inkweto zitwa bodaboda. Ziri mu mabara agiye atandukanye. Zimwe muri zo zifite ibara ry'umweru, umuhondo, ubururu. Hakurya hamanitse ibikapu byo mu mugongo.

Umubyeyi yitwikiriye igitenge yifashe ku itama, iruhande rwe hari ibihaza, inanasi, ibinyomoro, amatunda ndetse n'ipapayi.

Abantu ni benshi mu isoko. Bari bucuruze ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Harimo: ibitoki, karoti, intoryi, ibitunguru, n'itomati.

Ni mu isoko, umugore aricaye ari gucuruza, bimwe mu bicuruzwa biri muri iri soko harimo itomati, amashu, ibihaza n'imiteja.

Abagore bane barahagaze. Umwe muri bo afite agafuka mu ntoki imbere yabo hari ibicuruzwa karoti, intoryi, tungurusumu n'urusenda

Abagabo bane bari imbere yumuryango ukinguye umwe muri bo yicaye ku ntebe inyuma yabo mu muryango imbere harimo imifuka imwe ir, imwibara ry'umuhondo indi umweru n'umutuku.

Mu isoko harimo abantu bagiye batandukanye higanjemo ababyeyi bari gucuruza aho imbere harimo ibitunguru by'ubwoko butandukanye iby'umweru ndetse n'iby'umutuku harimo pavuro, tungurusumu ndetse n'itomati.

Abagore babiri baricaye, biteze ibitambaro mu mutwe, umwe yambaye igisa umutuku, undi yambaye igisa move. Imbere yabo hateretse imifuka irimo ibirayi.

Inzu ndende y'amagorofa atanu, iri mu mabara y'umuhondo n'umweru, imbere y'iyo nzu hari ibintu bitandukanye harimo amamodoka, igare ndetse n'abantu bari gutambuka n'abahagaze.

Umusore yambaye ingofero ayerekeje inyuma, ndetse n'umupira w'umukara. Imbere ye hari ibitunguru, itomati, indimu, n'ibindi birungo byo gutekesha isombe no mu nyama.

Umugabo n'umugore bari gucuruza. Umugore yambaye agapira gatukura, umugabo yambaye agapira k'umuhondo. Imbere y'aba bantu hari amaronji ndetse n'imyumbati.

Itomati, puwavuro, imeteja, amashu, ibihaza, amavuta, makaroni, kokombure.

Inzu igeretse, yubakishije ibirahure. Ifite uruzitiro rw'amabati, asa ubururu. Inyuma y'urwo ruzitiro, hari imodoka zitwara abagenzi, ziri mu ibara ry'umweru, zifite umurongo ku ruhande w'umuhondo.

Umugore ari gutambuka, yambaye ikanzu y'igitenge, ndetse n'umukandara mu nda, inyuma ye hari abandi bantu ndetse n'imitaka myinshi.

Isoko rya Nyabugogo, ritwikije amabati asa ubururu. Inyuma y'iri soko hari urujya n'uruza rw'abantu. Harimo abambaye umwambaro w'akazi w'abakarani, umugore uhetse umwana wikoreye umufuka n'abandi.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo n'umweru. Iriho icyapa cy'umuhondo cya momo. Iri jambo MoMo n'ijambo MTN, byanditse mu ibara ry'umukara.

Akazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo, kifiteho ibyapa bifite ibara ry'ubururu ndetse aka kazu gafunguye amadirishya abiri. Idirishya rimwe rihagazemo mugabo, wambaye ishati y'umweru.

Abagabo babiri umwe aricaye undi arahagaze, bambaye imipira isa umuhondo yanditseho MTN imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'umusore uhagaze.

Umugabo yambaye umwambaro ufite ibara ry'umuhondo harimo n'ubururu, imbere ye hari imodoka muri iyo modoka harimo undi mugabo.

Umuntu aricaye yambaye agakapu. Afite terefone mu ntoki, ndetse yambaye udugufi ku kaboko. Imbere ye hicaye undi, muntu afite ikintu mu ntoki.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara rikeya ry'umukara, imbere y'iyi nzu hahagaze umuntu ushinzwe umutekano, ndetse mbere harimo abantu umwe yambaye umupira w'umuhondo.

Akapa gatoya kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara handitseho amagambo mu ibara ry'umukara peyi wivu momo akanyenyeri rimwe gatandatu gatanu akanyenyeri gatatu urwego.

Inzu iri mu mabara yiganjemo umuhondo, harimo abantu benshi mbere bambaye umwambaro wo hejuru uri mu ibara ry'umuhondo, imbere yabo hari abandi bantu bambaye imyenda isanzwe.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo n'umukara cyanditseho ijambo mu ibara ry'ubururu iyoba munsi y'iryo jambo handitsemo emutieni, iruhande rw'icyo cyapa hahagaze abasore bambaye imipira y'umuhondo.

Utuzu dutoya tubiri. Kamwe kari mu mabara y'umutuku ni aka Aitel . Akande kari mu ibara ry'umuhondo ni aka MTN. Utu tuzu twombi duhagazeho abantu.

Aha ni mu biro bya Airtel hafite amarangi afite amabara umutuku n'umweru, hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara, hirya ye ha uwambaye ikabutura y'umutuku n'umupira w'ubururu.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho ijambo mobayilomani inyuma hahagaze umugabo yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, imbere mu kazu hicayemo undi muntu.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku, kanditsemo ijambo ryandikishije ibara ry'umweru Eyeteri. Iruhande rw'ako kazu hicaye umugore ndetse yambaye agapira gasa umuhondo.

Akazu gato gafite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara. Kanditsemo amagambo abiri rimwe ryanditse mu ibara ry'umweru ariyo ayateri irindi ryanditse mu ibara ry'umuhondo ari ryo mani.

Imodoka itwara imizigo iri mu mabara umuhondo n'ubururu. Iyi modoka yanditsemo ijambo iposita, imbere y'iyi modoka hari indi nzu ifite amabara y'umuhondo.

Imodoka iri mu ibara ry'umutuku iragaragara igice cy'inyuma, igice cy'inyuma hariho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, handitseho ijambo online market n'ibindi byinshi.

Umugabo yicaye kuri moto yambaye kasike y'icyatsi umupira w'icyatsi, inyuma kuri moto hateretse akabati kari mu mabara y'icyatsi n'amagambo ari mu ibara ry'umweru vuba vuba.

Abantu bambaye umwambaro w'akazi. Aba bantu bambaye utunozasuku mu mutwe, umugore umwe imbere ye hateretse imashini ndetse n'igitoki, ibindi bitoki biri mu bindi bikapu.

Gukora ubusabe hamagara ku buntu mirongo icyenda na rimwe cumi na rimwe nimero whatsapp nizeru karindwi umunani zeru kane mirongo ine mirongo itanu na kabiri.

Moto zimeze kimwe ziri ku murongo, zihetse amakarito ari mu ibara rya oranje asa, imbere hicaye abagomba kuzitwara ndetse bambaye kasike bose.

Umumotari yicaye kuri moto yambaye kasike itukura ndetse yambaye n'umupira w'umuhondo,, inyuma kuri moto hateretse igikapu kirimo ibyo agemuye.

Urubuga rwo guhahiraho ruri kwamamaza ibyo wahiraho. Imyambaro, ibikapu by'abadamu, amatelefone, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abagore babiri barahagaze umwe yambaye umupira wicyatsi wanditseho ijambo vuba vuba afite ibyo ari kugurisha mu ntoki ndetse ari kubihereza undi mukobwa uri guseka.

Umugabo yicaye kuri moto itukura. Yambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'ikoboyi ndetse na kasike y'umutuku. Inyuma ye hateretse igikapu, gifite ibara ry'umutuku n'umweru.

Abagabo b'abamotari bose bicaye kuri moto, abagabo bose barahindukiye bari kureba inyuma ndetse bambaye imipira itukura isa, inyuma bahetse ibintu bisa.

Uyu mugabo arahagaze yambaye ijiri y'icyatsi ifitemo n'umuhondo, uyu mugabo ahagaze hagati mu mirima ndetse azamuye amaboko ye yombi.

Inzu yubatse amatafari ahiye. Ifite amadirishya afite umweru ku mpande, ndetse n'imiryango imwe ifite umweru ku mpande. Indi miryango ikoresheje urubaho.

Inzu irimo ibikoresho harimo televiziyo, intebe, utubati hejuru handitse amagambo ko ikodeshwa igihumbi n'ijana by'idolari ku kwezi iri muri Kigali.

Inzu nziza igaragaramo imbere, ahagana ku gikuta hari kwaka amatara menshi, iyi nzu iherereye i Kanombe i Kigali iragaragara ngo igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Irakodeshwa iherereye hano ku Gisozi, ibyumba bitanu, na salo saramanje, wa ca kane, kwizine, inzu y'umukozi hanze n ibindi.

Inzu iri gukodeshwa, ifite icyumba kimwe ndetse na dushe imwe mu nzu, iri gukodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri by'amanyarwanda ku kwezi, iherereye i Kigali Kacyiru.

Inzu idakodeshwanya ibikoresho mu nzu, iri gukodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Iyi nzu ifite ibyumba bibiri na dushe ebyiri.

Inzu irakodeshwa ibihumbi bitatu by'idolari ku kwezi. Iherereye mu Rwanda, i Kigali. Iyi nzu ifite ibyumba bitanu ndetse n'ibiro.

Inzu igaragara ku muryango w'imbere, umuryango uri mu birahure, uyu muryango urafunguye, iyi nzu wayibona mu Rwanda ku mafaranga ibihumbi magana atatu by'idorari ku kwezi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse n'uruzitiro rw'iyo nzu rwubakishijeje amatafari ahiye, iyi nzu igiye iteyemo uduti twiza, iri kugurishwa iri i Kanombe.

Inzu irageretse, iteye irangi ry'umweru hejuru ifite urubaraza rufite uruzitiro rw'ibirahure ndetse ifite amavase hasi.

Inzu ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, iyi nzu iri gukodeshwa iherereye i Kanombe.

Umugabo arahagaze yambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru, uyu mugabo kandi azamuye amaboko yombi ari kuvuga inyuma ye hari inzu ifite amabara y'umweru ndetse namadirishya asa ubururu.

Inzu irakodeshwa iri i Kigali, i Kanombe. Iyi nzu ifite ibyumba bine na dusha na tuwarete eshatu mu nzu, ikodeshwa ibihumbi magana ane by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu igaragaramo umuryango, urafunguye, hejuru handitse amagambo, anifinoshedi hawuze foru renti, wani bedirumu wani woshirumuzi Kibagabaga.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa Kigali. Iri Kimironko. Iyi nzu ifite ibyumba bibiri na dushe na tuwarete mu nzu ebyiri. Iyi inzu, ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu, by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

inzu ifite imiryango n'amadirishya ifite ibara ry'icyatsi n'ibirahuri by'umukara, iyi nzu irakodeshwa ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'u Rwanda, ifite ibyumba bitatu na dushe na tuwarete mu nzu ebyiri.

Umugabo yambaye umwambaro w'ubururu n'ingofero y'abasilamu mu mutwe, imbere ye hahagaze abandi bantu benshi, aba bantu imbere yabo, hari ibikapu bimanitse n'inkweto.

Aha ni mu isoko ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye birimo itomati, tungurusumu, karoti, intoryi, imiteja ndetse na kokombure.

Imikandara iri mu mabara, umutuku, umukara ndetse n'andi mabara, haruguru hari inkweto z'abadamu ziri mu mabara umweru n'umukara, umutuku ubururu, ibi byose biramanitse.

Ni mu isoko imikandara, ibikapu, n'inkweto zifunguye biramanitse izindi nkweto zifunze ziratanditse hasi, iri soko ririmo abantu benshi bagiye batandukanye

Umukobwa arahagaze ari guseka, yambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, amaboko ye arazamuye afashe ku icupa.

Ni mu isoko ririmo imineke, amaronji, avoka, imyembe ndetse n'ibinyomoro, n'ibindi bintu byinshi. Harimo n'abantu benshi.

Icyapa kiriho umwana afashe igikinisho mu ntoki, ku ruhande rw'iburyo handitse ijambo ejo heza, ku ruhande rw'ibumoso handitse ijambo zigamira amasaziro yawe ukiri muto.

Uruzitiro rwubatse mu matafari ahiye, ruriho icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo izigamire ugire ejo heza.

Umugore witeze igitambaro ari guseka, iruhande rwe handitse ijambo ejo heza, imbere ye handitse amagambo nzigamira ku bw'ejo hazaza hanjye na ejo heza wowe se?

Umugabo yambaye umupira w'icyatsi n'ingofero, ukuboko kumwe gukoze mu mufuka, iruhande rwe handitse amagambo ejo heza uzakomeza kurimba no muri pansiyo.

Icyangombwa cy'ubwisungane mu kwivuza mituweli kirimo ifoto y'umwana igaragara umutwe icyo cyangombwa giteyemo kashe ndetse cyanditsemo amagambo.

Ibyangombwa ni bibiri, kimwe ni icy'ubwisungane mu kwivuza, kirimo ifoto ntoya y'umugabo, ku rundi ruhande rw'iburyo rwacyo harimo indangamuntu.

Abantu baricaye bari kwa muganga, hari undi mugore uhagaze yambaye igitenge ndetse n'umupira uri mu ibara ry'umweru.

Umugabo ahagaze mu isoko ririmo ibicuruzwa byinshi. Yambaye ikoti ndetse n'ishati mo imbere yangirije. Afite terefone mu ntoki.

Umugore yambaye ishati ndende yubururu, ndetse ni'ijipo yumukara. Afite igikapu mu ntoki. Ahanze amaso mu tubati turimo ibitabo bigiye bitandukanye.

Abantu benshi bari gutambu mu ihahiro babiri muri bo bambaye umwambaro w'akazi wari mu mabara umweru, umutuku n'umukara ndetse hari umugabo uri gusunika Akagari.

Abagabo bari mu ihahiro umwe ahagaze, yambaye umwenda w'akazi undi ari gusunika akagare karimo ibicuruzwa.

Umugabo arahagaze aho bahahira, yambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ikoboyi afite icupa mu ntoki ry'inzoga.

Umugore yambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi yambaye akanozasuku mu mutwe, imbere ye hari imbuto nyinshi harimo itomati harimo karoti.

Umugore yambaye ijipo ndetse n'ishati biri mu bwoko bw'igitenge ari guhaha imbere ye hari akagare ari gushyiramo ibyo ari guhaha.

Umugabo yambaye ishati yahinnye amaboko, afite isaha ku kuboko ndetse ukundi kuboko ko hirya gufite telefone, ari kuyishyira ku mashini.